Abagabo bari kumirongo bambaye impuzankano irimo ibara rya kaki ndetse n'umuhondo, bakaba bambaye na bote z'umukara. Ni abantu bigaragara ko bakora mu nzego z'umutekano, bari mu kibuga kirimo ibyatsi by'icyatsi kibisi, imbere yabo hari undi uri kubaha amabwiriza y'uburyo bagomba kwitwara ndetse iki kibuga barimo gikikijwe n'ibiti bikuze cyane by'icyatsi kibisi.

Abantu b'abagabo bahagaze ku murongo, bose amaboko yabo ari imbere kandi arafunze, aya maboko yabo afungishije icyo twita amapingu bigaragara ko ari abantu bari gukekwaho icyaha, bakaba bari mu nzego z'iperereza ndetse n'iz'umutekano, aba bantu bazajyanwa imbere y'inteko iburanisha kugira ngo babe abere cyangwa icyaha kibahame.

Abantu benshi cyane, bigaragara ko hari igikorwa bitabiriye cyabahurije hamwe. Ni abantu bicaye bose ahantu hari ibyatsi bisa nkaho byakubiswe n'izuba, ariko nanone bitari cyane. Ni abantu b'ingeri zigiye zitandukanye: abagore, abagabo, abasaza, abakecuru ndetse n'urubyiruko. Aba bantu bigaragara ko bitabiriye inama.

Abantu bane harimo abagabo babiri n'abagore babiri, bicaye ahantu hari amabuye bisa nk'aho bicaye hejuru y'ayo mabuye, umugabo umwe wambaye n'imyambaro gakondo ndetse n'ingofero, afite ingoma ari gukoma hakaba hari n'undi mugore ufite igicurangisho gakondo kizwi nk'inanga, abandi bakaba bari gucuranga abandi bakaba bari ku....

Igikoresho kizwi nk'agacuma; kiba ari igikoresho kizwi mu muco nyarwanda kuko bashyiramo ibyo kunywa, bakanwera mo nk'inzoga, urwagwa cyangwa se ubushera ndetse n'ibindi, ariko bigaragara ko cyamenetse mo kabiri kikadakoreshwa muri ibyo bikorwa byo kunyweramo inzoga cyangwa se ubushera ariko gishobora kudahishwa amazi.

Abantu benshi bitabiriye ibirori gakondo. Muri abo bantu hari abagabo batatu bambaye imyambaro gakondo izwi nk'imishanana. Bakaba bari kunywera mu kibindi, buri wese afite umuheha we. Ni ikibindi gipfundikijwe amakoma, hakaba hari n'abamama bafite inkongoro ndetse n'udukoko. Abamama na bo bambaye imishanana.

Ababyinnyi b'imbyino gakondo bari mu ngamba. Bari guhamiriza bambaye imyambaro gakondo y'umweru n'umutuku, ndetse inyuma yabo hari abandi bantu bafite ingoma, bari kubakomera ingoma. Ingoma zifasha gutegura injyana, abo bantu bari bugenderemo mu gihe bari kubyina.

Ababyinnyi gakondo b'abagabo, abazwi nk'intore bambaye imyenda gakondo iri mw'ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, bafite ingabo ndetse n'amacumu bakaba bambaye n'urugara ku mutwe n'ababyinnyi b'abagabo bane, bari kubyinira ahantu hari ibyatsi bisa n'icyatsi kibisi.

Agacuma kari mu ibara rijya gusa n'umutuku. Ni agacuma karimo n'umuheha, agacuma kaba ari igikoresho kifashishwa mu gushyirwamo ibyo kunywa bakabinyweramo. Ibyo tuzi bakunda kunyweramo ni nk'ubushera, urwagwa ndetse n'imisururu, bizwi nk'ibinyobwa gakondo.

Abakobwa benshi bari kubyina imbyino Nyarwanda bakaba bambaye n'imyambaro gakondo izwi nk'inkanda, bakaba bari kubyina bateze amaboko bambaye n'amayugi ku maguru. Aho bari kubyinira hari idarapo ry'u Rwanda riri mu mabara y'icyatsi kibisi, umuhondo n'ubururu hakaba mu bururu harimo n'izuba.

Abantu bane bambaye imyambaro yo mu muco nyarwanda, babiri b'imbere bambaye urugara n'inkanda, bakaba bafite n'amacumu n'ingabo, bari mu ngamba bari guhamiriza, babiri b'inyuma bari gukoma ingoma, bambaye imishanana, nyuma yabo bose hari icyapa kinini, cyanditseho iby'iwacu karico vileji, inyuma yabo na none, hari umuhanda muremure ukikijwe n'ibihuru.

Igiti kirekire bahagitsemo umutiba; mu mutiba aho inzuki ziba, inzuki zihakorera ubuki ziba zagiye guhomvwa, ahantu hagiye hatandukanye, uyu mutiba ukoze mu biti ndetse n' ibirere by' insina.

Inzu bigaragara ko ari inzu yubatswe mu buryo gakondo, n'inzu ishashemo ibirago ndetse hakaba hateretse kuri ibyo birago hakaba hateretseho ibisabo ndetse n'inkongoro, ibibisabo bikunze gukoreshwa bacunda amata, ndetse inkongoro nazo zikifashishwa bazinyweramo amata.

Abantu benshi barimo abakuze, urubyiruko ndetse n'abana, bicaye ku dutebe tw'imbaho. Abo bantu bamwe bari kwitegereza uko aba babiri bari gukina urusoro. Babiri bari gukina urusoro bafashe no ku gacuma, bisa nkaho bari gusangira ikiri muri ako gacuma. Abari gukina, umwe yambaye ishati y'umukara, undi yambaye ishati y'umweru, kandi nibo bakuru muri bo.

Umugabo ufite mu maso harehare, kandi akaba afite inyogosho yogoshwe mu buryo bwa gakondo. Ni inyogosho izwi nk'amasunzu, ni n'inyogosho izwi mu muco nyarwanda. Kuko ari inyogosho zikunda kogoshwa abagabo, bigaragara ko iyi foto ari iy'umugabo wa kera.

Uducuma tubiri turimo imiheha, tuno ducuma turi ahantu hashashe ibirago ndetse hakikijwe n'ibirago, utu ducuma tuzwiho kuba tunywerebwamo ibintu bigiye bitandukanye nk'inzoga z'urwagwa, ubushera ndetse n'ibindi, kandi ibi ngibi bikaba ari ibikoresho bizwi mu muco nyarwanda kuva kera.

Inzu yubatswe mu buryo gakondo, ni inzu yubakishijwe ibyatsi ndetse n'ibiti imbere hari umuryango urimo inkingi, inzu ifite imbuga nini cyane ikaba ikikijwe n'ibiti byiza bishishe, iyi nzu yari izwiho kubamo umwami ndetse n'umugabekazi mu gihe cya kera.

Uduseke tubiri, kamwe ni kanini akandi ni gatoya. Kandi turi mu mabara agiye atandukanye. Uduseke tuzwiho mu muco nyarwanda aho batubikamo ibintu bigye bitandukanye, cyane cyane umusaruro w'ubuhinzi. Ndetse ni ibikoresho byo mu muco bikunda kubohwa n'abagore, bifashishije ibikoreisho bigiye bitandukanye, bakabikora bakoresheje intoki za bo.

Icyumba kirimo ibintu bigiye bitandukanye bigaragara ko bibajwe cyangwa se byakozwe mu ibumba. Ni inzu irimo umugabo ndetse n'ikibumbano kirekire bigaragara ko ari icy'umugore ufite inkoni ndetse n'indobo yikoreye ku rutugu ,harimo umugabo bigaragara ko ari gukora icyo kibumbano.

Igikoresho cy'amashanyarazi: ni igikoresho cyifashishwa mu gucaginga ibindi bikoresho bikoresha amashanyarazi nk'amatelefoni, televiziyo kopiyuta nibindi bitandukanye. Iki gikoresho gifite imyanya itatu igaragaza ko hari sharigeri zifite amenyo atatu ishobora kwinjiramo ndetse na sharigeri zifite amenyo abiri nazo zishobora kwinjiramo.

Igikoresho cy'umuriro kizwi nka keto, ni igikoresho gicumekwa ku mashanyarazi kugira ngo gikore, ni igikoresho abantu benshi bifashisha bari gushyushya amazi, cyangwa se gutekamo icyayi. Iki gikoresho kizwiho kuba gitwara umuriro mwinshi cyane, ariko kikaba gikora ibyo gushyushya, cyangwa se guteka icyayi mu kanya gato.

Amazu meza cyane abiri, amazu yubatswe mu buryo bumwe bigaragara ko ari ku mudugudu, ni amazu yubakishije amatafari ahiye akaba afite inzugi z'icyatsi kibisi ndetse n'amabati y'umutuku, ku nzu ya mbere ibanza hariho umudamu uhagaze ku muryango uri kwitegereza hanze, ndetse iruhande rw'amazu hari imbuga iri gutunganywa iterwamo pasiparumu.

Ipoto y'amashanyarazi ni ipoto ikunze kuba iri ku muhanda. Ipoto iri kunyuraho insinga zigiye zitandukanye, kuko ari insinga enye. Kandi iyi poto iriho itara bigaragaza ko ari itara rimurikira umuhanda mu gihe cya nijoro. Kandi hakaba hari urutsinga rutwara umuriro ndetse n'abantu bashobora gufatiraho umuriro.

Inzu yubakishije amabuye isakaje amabati ashaje ifite n'akabaraza, imbere hicayemo umuntu munsi hari kuza n'undi mudamu ugana aho uwo yicaye, hirya y'uwo muntu wicaye munsi y'aka kabaraza hari umuryango ufunguye, mu bigaragara n'imbere y'iyi nzu hari indi nzu na yo yubakishije amatafari ahiye, inyuma y'iyi nzu hari ibiti bisa nk'aho ari ishyamba birebire kandi biku.......

Amazu meza cyane kandi amazu ageretse yubakishijwe amatafari ahiye. Ni amazu yubatswe mu buryo bumwe bigaragara ko hari imidugudu igezweho. Hagati muri Aya mazu hacamo imihanda ya kaburimbo irimo imirongo y'umuhondo.

Inzu yubatswe ahantu hari ishyamba riyikikije, imbere kuri iyi nzu hari ahantu hari ubwatsi bwinshi budakuze cyane, bigaragara ko ari mu busitani hakaba hari igipangu cyanditsemo welikamutu, ndetse iyi nzu isa nk'aho ikikijwe na senyenge mu bigaragara iyi nzu hariho idarapo ry'igihugu rigaragaza ko ari inyubako ya leta.

Inzu yubatswe nka hangali ikaba irimo ishusho ya Bikiramariya, ndetse hakaba handitseho kuri iyo nzu ngo, mwamikazi wa Gadarupe dusabire! imbere yiyi nzu hari amabuye, ari mu byatsi bimwe byarumye ibindi biracyatoshye.

Urusengero runini cyane rwubakishije amatafari ahiye, ni urusengero kandi bigaragara ko rumaze igihe kirekire cyane n'urusengero, cyangwa se kiliziya y'abakatolike, aho ifite umuryango w'umutuku ndetse ufite ibirahuri biri mu mabara atandukanye, hejuru kuri uyu muryango hariho icyapa cyanditseho paruwasi rejina pacisi rambura, yubile y'imyaka ijana.

Inzu nini cyane kandi nziza cyane, isize amarangi. Imbere y’inzu hari ibendera ry’igihugu cy’u Rwanda. Kuri iyi nzu handitseho amagambo agaragaza ko ari Ingoro y’Ubutabera ya Musanze. Hari n’amagambo ari mu Cyongereza: Ya kute Hawuze ofu Musanze, hakaba ari na yo mu Gifaransa: Pure de Jisitise de Musanze.

Ahantu hari gukorerwa ubwubatsi, hakaba hari imashini zifashishwa mu bwubatsi, hakaba hubatse inkuta ndende cyane hifashishijwe ibikoresho by'ubwubatsi. Ahantu hari kubakwa mu buryo bwo kugomera amazi, kugira ngo bazayabyaze amashanyarazi.

Inka nziza cyane; inka yakizungu bigaragara ko ari inka yitaweho, n'inka iri mu mabara y'umweru n'umukara ndetse ikaba iri mu kiraro cyiza cyubakishije imbaho, bigaragara ko iri ahantu heza yitaweho, kandi ikaba ari n'inka yambaye iherera ry'icyatsi kibisi ku matwi yayo, iyi nka biragaragara ko ari inka itanga umusaruro mwinshi cyane kuri nyirayo.

Icyapa cyo ku muhanda kiri munsi y'umukingo ni icyapa cya mpandeshatu gifite umuzenguruko utukura, kikaba gifite ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Ni icyapa kiri ku cyuma gishinze, icyuma kikaba gifite amabara ajya gusa na gereyi cyangwag se amabara ya aruminiyumu.

Inzu nziza cyane bigaragara ko ari inzu yo guturwamo, ikaba iri ahantu hakikijwe n'andi mazu meza cyane. Inzu isize amarangi y'umweru, ikaba ifite n'igipangu gisize amarangi ajya gusa na gereyi. Imbere y'iyi nzu hari ipoto y'amashanyarazi iriho insinga zitwara umuriro muri aya mazu, hakaba hari n'ibikoresho by'ubwubatsi byavuye imbere yayo...

Abantu benshi cyane bigaragara ko bari mu nama, n'ibantu b'ingeri nyinshi zigiye zitandukanye; abakuze, abato, abagabo ndetse n'abagore, n'abantu bari munsi y'igiti kinini ndetse bakaba bicaye ahantu, imbere yabo hari indabyo murabo bantu harimo umuzamu uhagaze bivuga ko hari igitekerezo ari gutanga muri iyo nama.

Abantu benshi bicaye bigaragara ko bari mu nama. Muri abo bantu harimo n'inzego z'umutekano, aho harimo umudaso wambaye umwambaro w'icyatsi kibisi, hakaba harimo n'umudamu uhagaze, bigaragara ko ari gutanga igitekerezo mu nama, abandi bamuteze amatwi.

Abantu bari mu nzu, irimo amakaro meza abonerana cyane, hari umugabo ufite mikoro uri gusoma mu ikaye, hakaba hari n'undi mumama w'umukecuru bigaragara ko akuze cyane, uri kumva ibyo avuga. Imbere hari abandi bantu bane bicaye ku ntebe, bigaragara ko ari abayobozi, imbere yabo hari n'uducupa tw'amata.

Abantu benshi cyane bisa nk'aho bari mu nama. Hakaba hari abantu bicaye ku ntebe, bigaragara ko ari abayobozi. Hakaba hari umwe uhagaze ufite mikoro w'umugabo, hakaba hari n'undi mugore ufashije undi mugore mikoro. Bigaragara ko hari ikibazo ari kubaza uyu muyobozi w'umugabo.

Imodoka ya dayihatsu cyangwa se izwi nka dina y'umweru irimo n'ibara ry'umukara, ikaba ihetse icyayi gipakiye mu makurete agiye atandukanye. Imbere yayo hari inzu isa nk'aho ifite ibati ry'icyatsi kibisi. Iki cyayi ni cyiza , kirasa nk'icyayi cyiteguye kujyanwa ku ruganda ngo gitunganwe.

Imodoka ebyiri nini cyane. Imodoka zizwiho gutwara ibicuruzwa byambukiranya imipaka. Ndetse zikaba zikunze no kwikorera amakontineri. Ni imodoka ziri mu muhanda wa kaburimbo, imwe iri kugenda mu cyerekezo kimwe, indi ikaba iri kuza mu cyerekezo imwe iri guturukamo.

Moto nyinshi zifite amabara y'umutuku, ndetse na kasike z'umutuku. Moto ziziritseho imifuka irimo ibintu bigaragara ko hari ahantu bijyanywe, cyane cyane ibi bintu bishobora kuba ari umusaruro w'ubuhinzi. Moto imwe iriho umufuka urimo ibintu by'icyatsi kibisi, bigaragara nkaho ari imicyayicyayi.

Imodoka izwi nka tagisi. Imodoka iri mu mabara y'umweru, ikaba iriho n'irindi bara ry'icyatsi kibisi, ni imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo urimo n'izindi modoka, ndetse na moto. Iyi modoka hejuru hariho ibyuma bifashe biyifasha gutwara imitwaro, itajya imbere mu modoka nk'ibikapu, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, ufite moto ikoresha amashanyarazi. Ni moto iri mu ibara ry'umutuku, ikaba ari moto ihagaze ariko akaba ayicayeho ndetse afite na kasike y'umuhondo. Aho ahagaze ni ahantu abamotari bakunda guparika, bigaragara ko ategereje abagenzi ngo abatware kuri iyo moto.

Indege ihagaze mu kibuga aho yabugenewe, ni indege iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru kandi ikaba ari indege nini cyane, imbere y'iyi ndege hahagaze abantu babiri bambaye amajire y'icyatsi kibisi ndetse imbere y'indege hari umurongo w'umuhondo, bigaragarako ari icyerekezo cy'iyi ndege aho ihagaze, ndetse impande y'iyi ndege hari kugaragara abantu benshi bagiye batandukanye.

Moto nyinshi zitwaye abagenzi. Ziri mu muhanda wa kaburimbo, aho zimwe ziri kugenda mu cyerekezo kimwe izindi zikagenda mu kindi cyerekezo, ibyerekezo bibiri bibusanyije. Muri uwo muhanda harimo aho abanyamaguru bambukira, hakaba harimo umudamu muremure uri kwambuka,..

Imodoka ya bisi iri mu mabara y'umukara n'umweru ikaba ari imodoka yari kugenda muhanda wa kaburimbo, bigaragara ko waguyemo imvura, inyuma y'iyi modoka hari izindi modoka ntoya zizwi nk'amavuwatiri n'amatoyota. Iyi ni bisi nini izwi cyane kuba igendamo abantu benshi hasi ndetse no hejuru, yanditseho viziti Rwanda ndetse iri kugenda ahantu hafi hari ubusitani bwiza cyane.

Abanyonzi benshi cyane bahagaze ku muhanda, bakaba ari abantu bazwi gutwara abagenzi ku magare. Bari ku muhanda unyurwamo n'ibindi binyabiziga nka moto, aho hari moto itwaye umugenzi, ndetse ruguru y'aho bahagaze hari ahantu hazitijwe n'amabati, yanditseho amagambo y'igishinwa.

Imodoka nyinshi cyane zizwi nka coater ni imodoka ziri mu imabara ry'umuhondo imodoka zifashishwa mu gutwara abanyeshuri, zibavana mu rugo zibageza ku ishuri, ndetse zikabagarura no mu rugo n'imodoka zihagaze abantu ku kumuhanda muremure ndetse no kuri parikingi y'ikigo cy'ishuri zigaragara ko ziparitse mu kigo cy'ishuri.

Abagore babiri bambaye amajire y'icyatsi kibisi. Abagore bafite ingorofani. Umwe afite ingorofani itariho ikintu, undi afite ingorofani iriho imizigo y'imifuka. Ni abagore bari ahantu bigaragara ko hakorerwa ubucuruzi bugiye butandukanye, kuko hari kugaragara n'ibinyabiziga, imodokadoka ndetse na moto, ndetse n'uruhurirane rw'abantu benshi.

Abasore benshi bigaragara ko bakiri mu myaka mitoya bafite imipira ya basiketi, bakaba bambaye n'impuzankano y'ubururu yanditseho n'amagambo. Ibara ry'umuhondo, ndetse n'umweru, impande yabo hari icyapa kizikana b of africa

Abakinnyi benshi b'umukino w'amagare ni abakinnyi bari mu muhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru. Bari guca mu muhanda ukikijwe n'urutoki muri urwo rutoki hahagazemo abagabo, aba bakinnyi ni benshi cyane bigaragara ko bari mu irushanwa bagana aho iryo rushanwa ruri busoreze.

Abakinnyi b'abakobwa bari gukina umukino wa voreboro. Ni abakinnyi bambaye imyenda y'icyatsi kibisi. Umwe afite nomero kabiri, undi afite nomero cumi na gatanu. Basimbutse bari bose, bari ku mupira. Bari gukinira ahantu hari udutebe turi mu mabara agiye atandukanye, icyatsi, umuhondo, n'ubururu.

Abagabo babiri umwe ahagaze kuri steje, inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo, ndetse n'ibirango bigiye bitandukanye, umwe muri bo yambaye imidari y'ishimwe undi amufashe mu kiganza bigaragara ko ari kumushimira ku bw'intsinzi. Ni abagabo babiri bambaye amakabutura ndetse n'imipira, umwe muri bo akaba yambaye ingofero y'umweru.

Abakinnyi b'umukino w'amagare bari ku magare barayatwaye bari mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande rw'umuhanda hari abana bikoreye inkwi n'undi umwe wazituye, abana bari kwitegereza uburyo abo bakinnyi batwaye amagare. Iruhande rw'uwo muhanda nanone, hari umurima wamezemo ibyatsi byinshi, hakaba hari n'amapoto maremare ashinzwe, ajyana insinga zitwara amashanyarazi.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, bari mu kibuga kirimo ibyatsi bisa n'icyatsi kibisi ,bamwe bambaye ubururu n'umweru harimo n'ibara ry'umuhondo ,abandi bambaye umukara n'umweru ,hari umukinnyi umwe ufite umupira, umukinnyi yambaye numero makumyabiri na gatatu mu mugongo ,wanditsemo Bizimana bari mu kibuga gikikijwe n'ibyapa byamamaza biriho amakampanyi aba yaje kuhamamariza.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umuhondo, ni umuhanda ku nkengero zawo harimo abantu benshi cyane bigaragara ko hari igikorwa bitabiriye. Muri uyu muhanda harimo abantu bari gukina umukino wo gutwara amagare ndetse hafi y'uyu muhanda hari amazu menshi atandukanye ndetse hakaba haparitse n'imodoka.

Umukinnyi wa tenisi w'umukobwa wambaye imyambaro ijya gusa n'icyatsi kibisi, ni n'umukinnyi ufite igikoresho bifashisha bari gukina umukino wa tenisi, ari mu kibuga gifite amabara y'ubururu, uyu mukinnyi ari kugaragara nk'uwiruka asatira agapira bakinisha tenisi ,kugira ngo kadakora hasi akagakubita akaganisha aho kavuye.

Abantu benshi cyane harimo abagabo ndetse n'abagore, higanjemo abantu bambaye amasengeri y'umuhondo harimo ndetse n'abazungu, aha bari guca mu muhanda ukikijwe n'amazu meza, bigaragara ko bari mu gikorwa bose bahuriyeho.

Abagabo babiri b'abazungu bambaye amakabutura ndetse n'imipira. Umwe muri bo yambaye ingofero. Bose bafite ibikoresho byifashishwa mu gukina umukino wa Tenisi. Hagati yabo harimo ikintu kibatandukanya kizwi nk'agatimba gatandukanya ikibuga cya Tenisi, aho bakinira umukino wa Tenisi.

Umukobwa muremure w'inzobe wambaye ikabutura y'umweru, agapira k'umweru ari gukina tennis mu kibuga, hakaba harimo n'undi mugabo wambaye ipantaro y'umupira w' umukara, buyu mukinnyi w'umukobwa afite igikoresho bifashisha bari gukina tennis ndetse ari n'agapira yakubise akerek8u6eza aho katurutse

Umukobwa uri gukina umukino wa tenisi. Ni umukobwa muremure wambaye ikabutura y'ubururu akaba yambaye n'agasengeri ka buresiyeri. Afite igikoresho bifashisha bari gukina umukino wa tenisi. Yambaye amarinete ndetse hari n'agapira bisa nkaho yiteguye gukubita, asubiza aho kavuye.

Abakinnyi bavore boru bari mu kibuga bigaragara ko bari gukina, n'abakinnyi bamwe bambaye imipira y'umutuku, n'amakabutura y'umukara n'abandi bambaye imikara gusa, hafi y'icyo kibuga hari abanyeshuri bambaye impuzankano ya kaki ndetse n'umweru, ndetse n'abandi bantu batambaye impuzankano bigaragara ko baje gushyigikira abari gukina uyu umukino bavore boru.

Umwana w'umuhungu ugaragara nkaho akiri muto cyane. Yambaye imyenda y'umukara irimo n'umweru. Afite igikoresho bifashisha bari gukina umukino wa tenisi. Ni umwana uri mu rugo ahantu hashashe amapave. Umwana bigaragara ko asa nkuwiteguye kujya ku kibuga gukina umukino wa tenisi.

Abagabo babiri, bambaye amakabutura ndetse n'imipira, umwe muri bo yambaye ingofero y'umukara, ndetse n'umupira w'umweru n'ikabutura y'umukara, abagabo bari ahantu mu kibuga, bigaragara ko bari baje muri siporo ndetse bafite n'ibikoresho, bifashisha bari gukina umukino wa tenisi.

Agace gakorerwamo ubucuruzi, harimo amazu y'ubucuruzi ndetse n'isoko. Imbere y'ayo mazu hari utuzu twa MTN, hakaba hubatswe n'udutanda dukorerwaho ubucuruzi buciriritse. Imbere y'ayo mazu y'ubucuruzi hari igiti kirekire gisumba amazu ndetse n'inyuma y'ayo mazu haragaragara ibiti.

Akayira karimo amabuye ndetse hakaba harimo n'ahantu amazi yiretse. Ni akayira bigaragara ko kakunda kunyurwamo n'abantu benshi ,ndetse muri aka kayira harimo umugabo uri kukanyuramo wambaye ipantaro y' uyumukara ndetse na bote n'ishati . Impande y'aka kayira hari amazu bigaragara ko hari abantu bahatuye.

Umuhanda wa kaburimbo muremure, umuhanda ugabanijemo ibisate bibiri ,hakaba hari inkengero z'umuhanda ziri mu mabara y'umweru n'umukara ,hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru banyuramo, kugira ngo badaca mu muhanda na hagati, umuhanda ukikijwe n'inyubako z'abaturage ndetse n'ibiti biteye ku muhanda.